Inama y'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ubw'akarere cyangwa se ubw'intara, iyo irimo kwiga ku kibazo runaka cyangwa se ubundi buryo igihugu cyatera imbere.